Iyo ugeze kwa muganga usanga indembe nyinshi ziryamye gusa abaganga nk'abantu b'inzobere baba bashinzwe kubitaho bakamenya uko barwaye n'uko babitaho kugira ngo bakire.

Iyo ugeze kwa muganga, uhasanga ibitanda ushobora kuryamaho, igihe bibaye ngombwa, igihe ufite uburwayi bukomeye ntabwo muganga yakwemerera gutaha, ni ngombwa ko uryama kuri ibi bitanda kugira ngo uhabwe serivisi z'ubuvuzi.

Abaganga ni bamwe mu bantu b'inzobere, baba bazi neza ibyo bakora, iyo umurwayi arembye akagana umuganga, avayo yakize kandi ameze neza rwose cyane.

Imbangukiragutabara ni igikoresho cy'ibanze kandi cy'ingenzi kuko gifasha abantu benshi kigatabara n'ubuzima bwabo, igihe barembye cyane kiragenda kikabatwara kikabajyana ku bitaro bakavurwa bagakira.

amburance cyangwa imbangukiragutabara mu rurimi rw'Ikinyarwanda, akaba ari ikinyabiziga gitabara ubuzima bwa benshi, iyo barembye kuko iyo umuntu arembye iramutwara ikamushyikiriza ku bitaro akabasha guhabwa ubuvuzi bw'ako kanya.

Abasore bambaye amajire ya Croix rouge, bakaba bafashe burankari bateruyeho umurwayi kugira ngo bamushyikirize ibitaro abashe guhabwa ubufasha byihuse, ubuzima bwe butahatesikarira.

Gutwara ikinyabiziga wasinze cyangwa wasomye ku nzoga, ni bibi kuko igihe uzahura n'ushinzwe umutekano wo mu muhanda, uzacibwa amande kandi bikugireho ingaruka n'ahazaza.

Umuryango wa Croix Rouge ni umuryango wita ku bantu bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima aha na ho ukaba uri gutanga ubufasha ku bantu bari aha ngaha batameze neza kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Kwa barasaanazana iminsi ikicuma ndavuga kwa muganga, iyo ugezeyo nsanga amoko y'imiti itandukanye, yaba ibinini, yaba inshinge byose bivura indwara zigiye zitandukanye zibasira ikiremwamuntu.

Muganga ushinzwe kuvura indwara zitandukanye akaba ari gusuzuma umugore wicaye ku ntebe uko ameze muri iki cyumba kandi barimo harimo n'ibikoresho bitandukanye bisuzuma uburwayi bw'umuntu.

Icyapa cyanditseho kigo nderabuzima cya Nyagatare, aho abantu bagana barwaye bagahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima, kandi bakavayo bahawe imiti bityo bakavurwa bagakira.

Umuganga wambaye impuzankano yo mu ibara ry'icyatsi cyijimye, yambaye n'agapfukamunwa, isaha n'uturindantoki, hakaba harimo gusuzuma imiti ngo arebe ko itarengeje igihe ibe yahabwa abarwayi.

Abaturage bahuriye muri sale kwa muganga, bakaba bari kuganizwa ku buryo barinda ubuzima bwabo bukagenda neza. Umugabo ubahagaze imbere ari kubagira inama bagomba gukurikiza bityo ubuzima bwabo bukagenda neza.

Umugore witeze igitambaro akaba afashe ibikapu bibiri mu ntoki, akaba ari iruhande rw'igitanda mu nzu yo kwa muganga, iyi nzu ikaba isize amabara y'umweru, hakaba harimo n'inzitiramubu ndetse n'ibindi bitanda biri hakurya.

Inzu y'igorofa yubatse neza, hanze yayo hakaba hari abantu batandukanye, ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazajye bibuka uyu munsi wari wabahuje.

Umutwazi utwara imodoka yo mu bwoko bw'imbangukiragutabara, urabona ko yishimiye akazi ke kuko atabara ubuzima bwa benshi, bityo bagagufasha nawe arabyishimiye rwose ko akora uwo mwuga neza.

Umuganga w'inzobere, akaba yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse na ga ziri mu ibara ry'umweru, akaba ari kwita ku murwayi, amusuzuma ngo amenye uko ameze ndetse abone n'aho ahera amuvura.

Ni kwa muganga, hari abarwayi benshi, hakaba n'abaganga bari kubaha serivisi kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo kandi hari n'ibikoresho biri gutunganywa kugira ngo babikorere isuku.

Umuganga uri kuvoma serumu kugira ngo ajye kuyishyira mu mubiri w'umuntu, bityo amurinde amusanzamure amagara ye atarajya ahabi, abaganga rero ni bamwe mu bafatiye runini ikiremwamuntu.

Kwa muganga biragoye ko wahajya ngo ubure yo abantu benshi batandukanye bakeneye ubufasha kuko abantu barwara buri munsi gusa iyo bagezeyo bahabwa ubufasha kandi bakavurwa bagakira.

Iyo ugeze kwa muganga, usangayo indembe nyinshi zitandukanye, ziryamye ku bitanda, kwa muganga kandi na ho haba hariyo abaganga b'inzobere, bita kuri izo ndembe kugira ngo bavurwe bakire.

Umurwayi urembye cyane akaba aryamye ku gitanda kwa muganga akaba yahawe iki gitanda kugira ngo aze guhabwa ubufasha n'umuganga ushinzwe kumwitaho, abanyamuryango be bakaba baje kumusura ngo barebe uko ameze.

Kwa muganga ni byiza kuhagana, cyane cyane iyo ufite ubwisungane mu kwivuza kuko uhita uhabwa serivisi nk'uko ubyifuza, gusa iyo udafite ubwo bwishingizi, bisaba kunyura mu nzira ndende, ukaba wanaremberayo cyane.

Ni muri laboratwari ahapimirwa imiti igiye itandukanye kugira ngo barebe niba ishobora kuvura indwara zitandukanye, muganga akaba yafashe ibikoresho arimo arapima iyi miti kugira ngo arebe neza ko ikora.

Umuganga wambaye uturindantoki, turi mu ibara ry'ubururu, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, arimo arasuzuma ibintu bitandukanye kugira ngo akore umuti, ushobora kuvura abarwayi.

Abaganga ni bamwe mu bantu bafatiye runini ikiremwamuntu haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose, uyu akaba ari gukoresha igikoresho cyabugenewe mu gupima kugira ngo amenye uko ikibazo gihagaze amenye n'aho ahera atanga ubufasha ku barwayi.

Umuforomo kazi wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, akaba afashe ikirahuri arimo arapima imiti kugira ngo arebe ko yujuje ubuziranenge, abone uko ayitanga ku barwayi.

Icyumba gifite isuku, akaba ari kimwe mu byumba byo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga kugira ngo bavure abarwayi, uburwayi bwabo kandi batahe bakize.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bwo kuvura impyiko hakaba harimo abaganga batatu, imbere yabo hateretse udukarito turimo imiti, iyi miti ikaba yifashishwa mu gukora iyo serivisi yo kuvura impyiko.

Ibiganza bibiri by'umuntu ufashe agakoresho gapima virusi itera Sida, akaba yambaye ga z'umweru ndetse n'impuzankano iri mu ibara ry'umweru, ari kureba ko umurwayi yapimye atanduye.

Udukarito turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyi miti ikaba ivura Malariya iterwa n'umubu w'ingore bita anoferi mu ndimi z'amahanga.

Ibi ni ibirahure bikunze kwifashishwa muri laboratwari, igihe bari gupima ibintu bitandukanye kugira ngo bakore imiti cyangwa se bakore ubundi bushakashatsi.

Muri laboratwari haba harimo ibikoresho byinshi kandi bitandukanye, abaganga rero iyo bari kubikoresha barigengesera kuko ushobora gukoma kimwe cyagwa hasi bigateza akaga gakomeye.

Konsa umwana ukamwonyereza igihe kandi igihe cyagenwe bituma akurana ubuzima bwiza, ababyeyi na bo bamaze gusobanukirwa none bari konsa abana babo.

Icyumba kirimo abana batoya cyane ndetse n'umurezi wabo, akaba afashe igitabo, arimo arabaha inyigisho kugira ngo bunguke ubumenyi nabo ahazaza bazabashe kumenya byinshi.

Abantu batandukanye bicaye munsi y'ihema hakaba harimo n'umupolisi, imbere hari umugabo ufashe indangururamajwi uri kubaganiriza ku buryo babungabunga ubuzima bwabo neza.

Abantu bahuriye ahantu, hakaba harimo abaturage basanzwe, hakaba harimo n'umuganga uri kubaha serivisi anabaganiriza uburyo bagomba kurinda ubuzima bwabo, bukarushaho kugenda neza.

Gukingira abana ni igikorwa minisiteri y'u Rwanda ishyiramo imbaraga kuko buriya gukingira abana bibarinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, zishobora kwangiza ubuzima bwabo ndetse n'imikurire yabo.

Urubyiruko rutandukanye, harimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bambaye imipira iri mu ibara ry'umukara, ubarabona ko bari kubyina kandi bishimiye igikorwa bajemo cyane rwose.

Umugore wambaye ibitenge by'amaribaya, acigatiye umwana wambaye agapira k'umukara, bombi barishimye bari guseka, bahagaze imbere y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ahazwi nko kwa muganga.

Umwana mutoya aba akeneye kwifubika ni yo mpamvu aho ari hose ugomba kumwambika imyambaro imurinda ubukonje kugira ngo ataba yarwara indwara zitandukanye akahazaharira.

Icyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, akaba ari icyapa kiriho ijambo rivuga ngo urugo mbonezamikurire y'abana bato, hano abana bakaba bafashwa mu guhabwa inyunganiramirire bagakura neza.

Ababyeyi iyo babyaye bashishikarizwa kwita ku bana babo kugira ngo bagire ubuzima bwiza mu kubitaho bagomba kubakingiza uko bikwiye, bakabagaburira, bakabonnsa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Iyo umubyeyi yonkeje umwana we iminsi yagenwe, bituma umwana akurana igihagararo. Urabona ko umwana uraha yishimye kuko nyina yamwitayeho mu minsi ye ya mbere.

Umugore wambaye ibitenge byo mu bwoko bw'amaribaya akaba yajyanye umwana kwa muganga kumupimisha none muganga w'umukobwa wambaye agapira k'umweru afite ikaramu ari kumubaza amazina y'umwana ngo ayandike mu gitabo.

Abantu bagera muri batatu bicaye ku ntebe z'ishezi aho harimo umugore n'umugabo ndetse n'umujyanama w'ubuzima wicaye imbere yambaye itaburiya bari kuganira aho ari kubabwira ibyiza byo kuboneza urubyaro.

Ababyeyi batandukanye bahuriye ahantu harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari kuganirizwa n'uwabigize umwuga abereka uburyo bagomba gutegura indyo yuzuye, yatunga abana babo bakagira ubuzima bwiza.

Abana bato bashimishwa n'ibintu bitandukanye iyo babonye ibyicungo bishima kurushaho, aba rero urabona ko nabo bishimye ndetse n'umurezi wabo akaba arimo arabitaho abafasha kwidagadura.

Umubyeyi iyo abyaye ntabwo aterera iyo ngo arekere, aba agomba no kujya kwa muganga gusuzumisha umwana we kugira ngo ubuzima bwe butazajya mu kaga bwatakwa n'indwara zitandukanye.

Inyubako nziza cyane, ikaba irimo abantu benshi batandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bitabiriye inama kugira ngo bungukiremo byinshi byabateza imbere, barusheho kungurana ibitekerezo.

Abantu batandukanye harimo igitsina gore n'igitsina gabo bahurijwe hamwe no kureba uburyo ki babungabunga ubuzima bwabo, hari umugore ufashe indangururamajwi mu ntoki uri kubaganiriza ku ngingo y'ubuzima.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bahuriye mu cyumba bakaba bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, hari umugabo uhagaze uri kubagezaho imbwirwaruhame ndetse bakaba bicaye bateze amatwi.

Abaturage bicaye ku ntebe ya karambarazi, bakaba bicaye munsi y'igiti. Bahurijwe hamwe n'igikorwa cy'inama kugira ngo bungurane ibitekerezo ku buryo babungabunga ubuzima bwabo.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu mbuganga ngari, bakaba ari igikorwa kijyanye n'ubuzima bahuriyemo kugira ngo abafite ibibazo babashe gufashwa cyane cyane babapime imivuduko y'amaraso cyangwa se virusi itera sida.

Inzu icururizwamo imiti igiye itandukanye ikaba irimo abantu baje kugura iyi miti kugira ngo bage kwivura indwara zitandukanye ufite ikibazo kijyanye n'ubuzima wagana imwe muri izi nzu ikagufasha.

Inyubako mu cyumba imbere ikaba irimo imiti, aha ngaha uje uhagana ukaba wahabwa imiti y'indwara urwaye kuko barasanasana iminsi ikicuma.

Inzu irimo amoko y'imiti agiye atandukanye imwe ikaba ipfunyitse mu dukarito indi ikaba ipfunyitse mu ducupa, iyi miti ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanya.

Inyubako icururizwamo imiti y'amatungo, iyi miti ikaba ifunze neza mu tudobo twabugenewe kandi ikaba yifashishwa mu gukingira amatungo indwara zigiye zitandukanye.

Muri farumasi haba harimo imiti y'amoko atandukanye ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye uramutse ufite ikibazo wahagana ugahabwa ubufasha kandi ukavurwa ugakira.

Inyubako bakunze kwita farumasi ikaba igurishirizwamo imiti ivura indwara cyangwa se amatungo, iyi farumasi uhagannye wahabwa iyo serivisi mu gihe amatungo yawe afite ikibazo akavurwa.

Iyi ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti hakaba harimo iri mu dukarito ndetse n'indi ipfunyitse iri mu ibara ry'umweru.

Kwa muganga hahora isuku kandi hahora abarwayi, iyo ugezeyo rero urwaye, abaganga bakwitaho kandi bakaguha ubufasha, ugakira vuba ugasubira mu rugo umeze neza.

Inyubako bita farumasi icururizwamo imiti y'amoko atandukanye iyi miti ikaba ivura abaturage indwara zimwe na zimwe baba barwaye.

Inyubako nziza irimo abantu batandukanye, inyubako ikaba isize amabara y'umweru, inzugi zigize ibara rijya gusa ikigina, harimo abapolisi babiri ndetse n'abandi bantu ubona ko bari kuganira kandi bishimye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, amadirishya irafunguye aho mo imbere harimo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abaganga ndetse n'abaturage baje gushaka serivisi.

Umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro yabugenewe, akaba agiye gutera umuti mu nzu y'abaturage kugira ngo bahashye, banarwanye indwara ya Malariya iterwa n'umubu w'ingore.

Urubyiruko rutandukanye higanjemo ab'igitsina gore bakaba bafashe icyapa mu ntoki cyanditseho ngo turwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko, akaba ari yo nsanganyamatsiko yabahurije hamwe.

Iyo habaye inama ni byiza gutumira abantu b'ingeri zose, yaba abayobozi bo mu nzego zo hejuru n'izo hasi kuko bungurana ibitekerezo kandi bagafata umwanzuro bose bakabyumvikanaho.

Abantu benshi batandukanye, bitabiriye inama, bakaba bicaye, higanjemo abagore ndetse n'urubyiruko. Bakaba baje muri iyi nama kugira ngo bungurane ibitekerezo byabafasha gutera imbere.

Abantu batandukanye, bitabiriye igikorwa, bakaba bicaye mu cyumba bari kuganirizwa n'umugabo ubahagaze imbere, ari kubabwira ku bijyanye n'uburyo babungabunga ubuzima bwabo bukagenda neza.

Iyo ugeze kwa muganga ntushobora kuhabura abarwayi barembye kuko indwara zihoraho. Muganga na we icyo ashinzwe ni ukwita ku barwayi kugira ngo abahe ubuvuzi buboneye kandi batahe bameze neza.

Agacupa karimo umuti ukorwa mu kimera cyitwa umuravumba, umuravumba ukaba uvura indwara nyinshi zitandukanye, habaye ibicurane, haba inzoka zo mu nda ndetse n'izindi nyinshi.

Agacupa karimo umuti ukorwa mu muravumba, umuravumba ukaba uvura indwara zitandukanye yaba inzoka zo mu nda, yaba ibicurane ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ikimera cyitwa umubirizi. Kikaba ari ikimera gikorwamo imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye, yibasira ikiremwamuntu. Iki kimera kandi kikaba cyifashishwa no mu buvuzi bw'indwara z'amatungo.

Ibiganza bibiri by'umuntu uri kutwereka umuti mu gipapuro uyu muti ukaba warakozwe mu bimera, uyu muti ni ibimera bafashe baravangavanga havamo umuti ushobora kuvura indwara zikomeye.

Uducupa dupanze muri etageri tukaba turimo imiti ikozwe mu bimera, iyi miti kandi ikaba yifashishwa mu kuvura amatungo atandukanye nk'inka, ihene, ingurube n'ibindi.

Abavuzi ba Kinyarwanda cyangwa se ba gakondo, iyo ubaganye baguha imiti ikorwa mu bimera, utu dusorori na two tukaba turimo amoko y'imiti itandukanye, abavuzi bifashisha bavura abaje babagana.

Ni kwa muganga hakaba hari abaforomo batandukanye bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, bambaye uturindantoki tw'umweru, bambaye n'udupfukamunwa turi mu ibara ry'ubururu, bakaba ari abaganga b'inzobere uko bagaragara.

Umuganga w'inzobere arimo arandika ku rupapuro abaza umurwayi indwara arwaye kugira ngo amenye aho ahera amuvura, akaba yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu muri sale, bakaba biganjemo ababyeyi baje gukingiza abana babo kugira ngo bahabwe inkingo, bityo bibarinde kurwara indwara zitandukanye.

Kwitabira inama ni kimwe mu bintu bikomeye kuko muhanahana ibitekerezo bitandukanye, aba bantu nabo bakaba baje mu nama, imbere yabo akaba hari umuyobozi urimo urabagezaho ijambo yabateguriye.

Kwa muganga haba hari indembe nyinshi zitandukanye, ari nayo mpamvu hashyizweho ibitanda kugira ngo uje yarembye cyane ahabwe ubufasha bwo kuryamishwa hano kandi agumye yitabweho n'abaganga.

Udukarito dupfunyitse neza tukaba turi mu mabara atandukanye ndetse n'amagambo yanditseho ari mu mabara atandukanye: umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi, tukaba turimo imiti ivura amatungo.

Inyubako isize amabara y'umweru ifite n'amadirishya arimo ibirahure imbere yayo hakaba hari umubyeyi uryamye ku gitanda akaba ari kwa muganga, ari kumwe n'umwana we ubona ko umwana yishimye.

Inyubako isize amabara y'umweru ikaba irimo abantu benshi batandukanye baje gushaka serivisi, imbere hari umubyeyi ufashe umwana, ufashe n'ifishi ubona ko yaje gushaka serivisi kwa muganga kugira ngo avuze umwana we.

Abaturage batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba baje kwa muganga kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuzima kandi indwara barwaye na zo zibonerwe urukingo bityo batahe bakize.

Ni kwa Barasanasana iminsi ikicuma, hakaba haje abantu batandukanye kugira ngo bahabwe serivisi zijyanye n'ubuzima, ubona ko bose barembye cyane. Umugore umwe akaba ari gutanga ifishi kugira ngo avuze umwana we urembye.

Abantu benshi batandukanye, harimo n'abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, urabona ko bishimye cyane, barishimira ko begerejwe serivisi z'ubuzima.

Kugira isuku ni kimwe mu kintu cy'ingenzi kigomba kuranga buri wese. Aba bari aha na bo ari kwereka abaturage, uburyo bagomba gukoresha imisarani igezweho kandi bakayigirira isuku kugira ngo itazabanduza indwara z'umwanda.

Ku bigo nderabuzima bimwe na bimwe mu Gihugu cy'u Rwanda, usanga hari abantu benshi bategereje guhabwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo basigasire amagara yabo, rero ni byiza ko igihe urwaye wakwitabira kugana kuri ibi bigo nderabuzima kugira ngo ufashwe.

Inzu icururizwamo imiti ivura amatungo, iyi miti ikaba ifasha mu kurinda indwara zitandukanye zibasira amatungo yaba inka, ihene ndetse n'ingurube n'ibindi.